Abana bari gukina ku myicundo, inyuma yabo hari umuntu mukuru w'umugabo, wambaye ishati ijya gusa n'iroza, yambaye kandi n'agakote keza k'ikositimu, yambaye inkweto z'umukara, abana bari ku myicundo barishimye, bigaragara ko uyu muntu mukuru arimo abereka uburyo imyitozo ikorwa, cyane cyane kugira ngo abana bishime, ni byiza gushimisha abana ubakoresha imyitozo, cyane cyane ko bayikunda.

Igishushanyo kiriho abana bambaye impuzankano ,muri abo bana harimo abahungu babiri n'abakobwa batatu, inyuma yabo cyangwa iruhande rwabo hari umuntu wambaye umwenda w'akazi, bigaragara ko aba bana ari abana biga mu mashuri y'inshuke, ni byiza ko bano bana bajya bakina kugira ngo bave mu bwigunge, ndetse na mwarimu wabo akaberekera.

Ku ikigo cy' amashuri hariho ikigega ndetse kuri icyo kigega hariho n'itiyo ikuramo amazi, kiri ahantu ku ruhande rwacyo hariho imikuku.

Udukinisho tw'abana dutatu turi mu mabara atatu atandukanye nta na kamwe gasa n'akandi, utu dukinisho dukunda guhabwa abana biga mu mashuri y'inshuke, ni byiza ko abana bacu binshuke tubagurira utu dukinisho.

Amagambo yanditse ahantu avuga ati" Ishuri, ni gute ushobora kwimurika nk'umuntu wibitseho ubumenyi bwo gufata ibyemezo", hasi haciyeho akarongo, munsi yaho handitseho ayandi magambo mu mpine ndetse n'ijambo ishuri.

Ibikoresho bishushanyije ku rupapuro ruriho n'utundi turongo ahatari igikoresho. Ibyo bikoresho ku mwanya wa mbere hari isuka, ku mwanya wa kabiri hari icyuma, naho kuwa gatatu hariho agakombe.

Ku ishuri hariho umugabo bigaragara ko ari umwarimu kuko afite n'ikaramu mu ntoki, aricaye kandi inyuma ye hariho urubaho, imbere ye hateretse amakayi menshi bigaragara ko ari gukosora abanyeshuri bakoze umukoro.

Igishushanyo cy'abana n'ababyeyi. Umubyeyi w'umugabo yitwa Jabo, uw'umugore yitwa Simbi, abana ni bane, amazina yabo ni aya; Ganza, Keza, Shema, Isaro.

Ahantu ku ishuri hari amashuri meza cyane ndetse bigaragara ko agezweho, imbere yayo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, kuri aya mashuri kandi hari n'ubusitani bwiza cyane buriho n'ibiti n'uturabo twiza.

Kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga Imibare cyane cyane abo mu mashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Iki gikoresho cyifashishwa bapima, biga ingero ndetse n'indi mibare itandukanye kuko ni ingenzi.

Igishushanyo cyashushanyijwe n'umuntu kuri iki gishushanyo hari umubyeyi wicaye ku ntebe ndetse n'abana bicaye ku ntebe, umubyeyi yicaye ku ntebe ye ari kugaburira abana hariho n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo umubyeyi ari kugaburira abana.

Ku ishuri hari amashuri agira ukarabe. Kandagira ukarabe, idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane ko iyo ukarabye, uba wirinze ukarinda na mugenzi wawe uzagukoraho.

Ku ishuri aho abarimu baganirira bategura amasomo, harimo imeza ndetse n'amakayi n'amakaramu ndetse harimo n'indi meza irimo imyanya igiye irimo ibintu bitandukanye wagira ngo ni ibitabo.

Ibikoresho bitandukanye harimo umukasi urushinge, imbarasasa ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora ibintu bitandukanye, aho harimo na metero yifashishwa n'abubatsi ndetse n'abadozi.

Ubwiherero bwo ku ishuri, bwubakishije amatafari ahiye, inzugi zabwo zigiye zifiteho umwenge hejuru, inyuma yabwo hari ibiti ndetse n'izindi nyubako z'amashuri, iyo witegereje neza ku nguni hirya, ubonaho umuntu wegamye ku rukuta.

Igishushanyo cyanditseho amagambo agira ati "Gushimira ni ngombwa amashuri y'inshuke" Ni byiza ko dushimira nk'uko hano kugishushanyo utunyamaswa tubiri tubigaragaza kamwe kaje gushimira akandi ku byiza kakagiriye, ni byiza ko n'abana b'inshuke tubashishikariza gushimira bagenzi babo ku byiza babagirira nk'umuco wabaranga.

Ku ishuri ikibigaragaza ni uko hariho amakaramu y'abana amwe twita amakaramu y'igiti, hari n'ibindi bikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha bandika cyangwa se bashushanya hariho n'umukasi, ni byiza ko abana bacu impano zabo zitezwa imbere bari ku ishuri.

Mu isomero ryo ku ishuri uko bigaragara koko aha ni ku ishuri, hariho utubati turimo ibitabo bitandukanye kubera abana baba bahiga baba batandukanye, bigana no mu myaka itandukanye.

Igikoresho cyifashishwa mu kwiga imibare cyane cyane mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga imibare agacongesho ikaramu y'ibiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gupima uburebure bw'ibintu ndetse no gushushanya mu mibare.

Igishushanyo ku ishuri, hariho abana bicaye ku ntebe, ariko harimo n'abafite ubumuga kuko hariho imbago zifashishwa mu kugenda ku bantu bafite ubumuga, abana bambaye impuzankano ndetse mwarimu abari imbere ari kubasobanurira, harimo n'ahantu babika ibitabo ndetse n'ikibaho, ni byiza ko abantu bafite ubumuga batirengagizwa.

Ku ishuri, hariho abanyeshuri benshi bicaye bambaye impuzankano, muri bo umwe arahagaze afite akuma kifashishwa bavuga kugira ngo ni hifashishwa indangururamajwi uyu muntu aze kumvikana asa neza cyane ameze nk'uri gutanga igitekerezo.

Abanyeshuri bitabiriye inama, bambaye impuzankano zitandukanye ndetse hari n'abandi bantu benshi, bitabiriye iyi nama bari imbere y'abanyeshuri, bambaye ibintu by'umutuku ahantu hubatse itente, ahantu aba banyeshuri bari, harimo umunyeshuri wakandagiye ku ntebe wambaye inkweto z'umweru ndetse bicaye munsi y'ibiti.

Abantu bane. Hariho umwana umwe w'umunyeshuri uri kwakira ibintu yagenewe n'ababyeyi babiri. Bisa naho ari ababyeyi be bamuzanye ku ishuri. Ku ruhande rwabo hari umupapa wambaye ishati y'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ku ishuri hari abanyeshuri benshi cyane batandukanye birumvikana biganjemo abahungu n'abakobwa, imbere yabo hari umumama wigendera wabona ari umwarimu, ni byiza ko abana igihe bagiye mu mashuri yisumbuye bafashwa kubona ibisabwa byose kugirango bige neza.

Ku ishuri mu mashuri yisumbuye hariho abanyeshuri bose bicaye kandi bambaye impuzankano n'udupfukamunwa nubwo bose ibyo bambaye bidasa ijana ku ijana, bateze amatwi umuntu uri kubabwira nubwo atagaragara.

Ku ishuri, hariho abanyeshuri bane bambaye impuzankano, harimo umwe wambaye n'agapfukamunwa, bose ntanumwe wambaye inkweto zifunze, bari impande y'ubusitani kuri kandagira ukarabe, iyo witegereje neza, aha bari hariho n'urugi rw'ibyuma.

Abanyeshuri biga ku kigo cy'amashuri, bari munsi y'ibiti batonze umurongo, imbere yabo hariho abandi bantu barimo n'umuntu ushinzwe umutekano, mbese umupolisi, bose barahagaze bambaye impuzankano.

Abanyeshuri bari ku ishuri. Bambaye impuzankano, kandi bari ahantu bateguriwe kwakirwa. Umwe abahagaze imbere afite ibyo ari kubagezaho, ni mu gihe undi umeze nk'umwarimu yicaye afite utuntu ari kwandika.

Abanyeshuri bari ku ishuri. Biga mumashuri yisumbuye. Bamwe barahagaze abandi baricaye. Bamwe bari gukoma mu mashyi abandi ntibari gukomamo. Mu bicaye harimo abantu babiri batari abanyeshuri. Umwe asa n'umuzungu. Yambaye n'ikanzu y'umutuku n'isaha.

Abantu bambaye imyenda y'umuhondo yanditseho amabara mu mugongo uko bigaragara ni abanyeshuri bari imbere ya kandagirukarabe inyuma yabo hari undi muhungu wambaye umwenda w'abantu b'urubyiruko b'abakorerabushake yambaye n'agapfukamunwa ariko kureba ko abo bana b'abanyeshuri bakaraba neza.

Ku ishuri ni ku mugoroba hagaragara abantu batanu umwe yicaye hirya cyane mu gihe abandi ari abakobwa batatu ndetse n'umupapa umwe, abakobwa batatu bambaye impuzankano y'ishuri, umupapa we yambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru bafashe ku cyapa kimwe bakizamuye hejuru wagira ngo ni impano umupapa yageneye aba bana.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bose bambaye impuzankano isa amajipo ya kake ndetse n'amashati y'umweru, imbere yabo bose hariho amakayi ariko bose ntabwo bari kwandika.

Abanyeshuri bari ku ishuri, bamwe baricaye abandi barahagaze, bamwe bamanitse amaboko bashaka gusubiza, umunyeshuri umwe w'umukobwa uhagaze imbere, arimo araseka areba muri bagenzi be, harimo n'undi na we uri guseka amureba, ku kibaho inyuma yaho haranditse.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano bose bamwe bahanitse amaboko abandi bafashe ku meza gusa harimo umunyeshuri ugaragara nk'umukobwa wambaye amadarubindi mu maso ndetse n'umuri kuhande utambaye amadarubindi mu maso abana bose bari kugaragaza amenyo.

Ku ishuri hari amashuri ndetse n'ikigega, ishuri ryubakishije amatafari ahiye ndetse rifite inzugi n'amadirishya by'ubururu, hirya hirya hari abana babiri bari kuza imbere y'iryo shuri, kuri iri shuri hari n'ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi ni byiza ko abana bacu bajya ku ishuri.

Abanyeshuri bari ku ishuri bambaye impuzankano zabo, imbere yabo hari umugabo umeze nk'umwarimu usa na ho ari kubabwira ariko abereka n'ibindi bintu atunga urutoki mu banyeshuri, aho bari hari n'ibyumba by'amashuri kuko hariho umuryango ufunguye.

Abantu bane hariho umwana wambaye impuzankano y'ishuri, bigaragaza ko yiga mu mashuri yisumbuye, arimo yakira impano bisa n'aho yakoze cyane ari kubihemberwa.

Umwana mwiza cyane w'umukobwa afite uduheri mu maso, yambaye ishati y'umweru yambaye ndetse na karuvati mu ijosi afite umusatsi w'umwimerere, uko bigaragara ni umunyeshuri.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano y'umweru, bose bafite amakaramu mu ntoki, harimo babiri bambaye imipira y'icyatsi, bano banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abana bishimye cyane ndetse n'umuntu bari imbere, aba bana ni abanyeshuri umuntu uba imbere bigaragara ko ari umuntu wishimye cyane kuko afasha abanyeshuri kuririmba abaterera uturimbo dutandukanye, ni byiza ko twifashisha abantu nk'aba kugira ngo abana bacu bari ku ishuri bahore bishimye.

Abantu batandukanye biganjemo urubyiruko, ab'urubyiruko umubare munini bambaye amashati y'umweru ndetse hari umwe wifashe gukananwa, imbere ye hari bibiliya, umugabo wundi umwe yambaye amadarubindi, bigaragara yuko ariwe waje uyoboye iyi nama, ni byiza ko abakuru n'abato duhurira ku meza kugira ngo tuhungukire ubumenyi, cyane cyane ibijyanye n'imiyoborere.

Ahantu hari imyicundo ifasha abana mu gukora siporo ndetse no kwishimana na bagenzi babo. Hari urukuta kandi hari n'umuntu bigaragara ko yigonze mbese ari muri siporo. Iruhande rw'icyo gikuta hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'umuriro w'amashanyarazi ugaragazwa n'insinga zihari ku mapoto.

Abanyeshuri bari ku ishuri, bose bambaye impuzankano, ku ishuri hari ubusitani bwiza ndetse hagaragara n'inyubako igezweho itari ishuri, hari umunyeshuri wambaye amadarubindi, ufite n'akamashini kifashishwa mu kubara ku ishuri n'ikayi mu ntoki n'undi umuhagaze imbere ufite ikaramu ku mufuka.

Abantu bane batatu bambaye agapfukamunwa, umwe ntako yambaye ari kureba ku ruhande ariko yambaye n'ikoti, umugore umwe arimo arandika mu ikayi yifashishije ikaramu, umugabo ubarimo n'umwe we yambaye imyenda isa.

Inyubako nziza cyane igeretse mbese iyi nyubako igezweho, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane. Uko bigaragara iyi nyubako ni iyo muri kaminuza cyangwa se ahandi hantu higirwamo abanyeshuri bo muri kaminuza mbese bo ku rwego rwo hejuru.

Urugi rw'umutuku bene izo nzugi zikunda kwifashishwa ahantu hakomeye ndetse habera inama zikomeye, ubundi ugasanga izi nzugi zikunda kuba ku nzu z'abakire, akenshi usanga izi nzugi ahenshi ziba ziri ari ku nzu zikomeye cyane cyane nka za kaminuza.

Umuhanda ukoze mu mapave hariho ubusitani bwiza cyane aho abantu bashobora kujya bakaruhuka, hagize uta akanda hari ikimoteri kiri ku ma corner y'uwo muhanda ku buryo ntawakanduza ubu busitani bwiza cyane bw'indabo ndetse'ti bitanga akayaga keza.

Abantu biganjemo ab'urubyiruko bicaye mu ishuri, bisa n'aho ari muri kaminuza kuko aba banyeshuri n'ubwo bafite amakayi, ntabwo bambaye impuzankano. Ni byiza kwiga ukanaminuza kuko birafasha mu buzima.

Mu cyumba giteraniyemo abantu batandukanye ariko bose barahagaze, ni muri kaminuza cyangwa se mu mashuri makuru, mu bantu barimo harimo umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Kagame, harimo kandi n'umusirikare umwe, uteye umugongo Kagame.

Ku muhanda ukozwe n'amapave hariho ubusitani bwiza cyane indabyo ziconze neza cyane hariho ibiti ndetse n'abantu bari mu busitani.

Abanyeshuri bari mu ishuri bose bafite amakayi imbere yabo, ntago bambaye impuzankano kuko aba ari abanyeshuri biga muri kaminuza cyangwa se mu mashuri makuru. Ni byiza ko abana bacu biga bakaminuza.

Abanyeshuri bari kwiga mu ishuri, uko bigaragara biga muri kaminuza kuko ntabwo bambaye imyenda iranga abanyeshuri mbese impuzankano, ahubwo bafite amakaye. Mwarimu abari imbere ari kubasobanurira, umunyeshuri umwe arahagaze nawe ari gutanga igitekerezo.